Abantu bane bahagaze muri sale imbere, batatu akaba ari abadamu bari kumwe n'umusore umwe wambaye ishati iciyemo uturongo n'ipantaro y'umukara.

Abana b'abanyeshuri bari hanze, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inzu, bakaba bambaye iniforome, hamwe ni abahungu n'abakobwa, bari kuvoma amazi mu ndobo, imbere hateretse akabido gato.

Umumama wicaye mu cyumba ateruye umwana uri kumwe n'umuganga w'umudamu wambaye itaburiya yabigenewe ndetse na ga, akaba ari gupima umwana ku nda.

Ivomero rusange abantu bane, batanu, babamama bafashe umwe afashe ateruye ibido undi abahagaze imbere ari kuvoma amanjel amajerekani umwe yambaye ikanzu undi yiteze igitambaro mu mutwe.

Abana batandatu b'abanyeshuri, bambaye iniforume, bari kuri robine, bamwe bakaraba, abandi bavomera amazi mu ndobo z'umuhondo, hari n'akabido kahateretse n'ako k'umuhondo, inyuma yabo hari ibiti.

Icyapa kiri mu ishusho y'ibara ry'ubururu, cyandikishijwemo amagambo y'umweru manini n'igishushanyo cyerekana ibihakorerwa, bisa nk'aho ari abafasha abana.

Abamama batatu bicaye bose bambaye ibitambaro mu mutwe ndetse n'ibitenge, imbere yabo hari undi mudamu wambaye itaburiya y'umweru uri kubafata ibipimo akanabyandika.

Umudamu ufite umusatsi mwinshi ugera inyuma mu mugongo, akaba afite n'amaherena ku matwi, akaba yambaye umupira ujya gusa shokora, akaba ashinzwe ubujyanama mu by'ubuzima.

Sale nini, imbere kuri podiyumu hicaye abapapa batatu bambaye amakositimu, hari n'abadamu batatu, umwe wambaye ipantaro y'umweru, bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Umugabo uri ku ivomero rusange akaba ari kuvomera abana bafite amajerekani manini n'utubido dutoya. Abana bambaye amakabutura harimo n'uwambaye umupira w'umweru.

Abantu babiri bari ku ivomero rusange, bose bafite amabido angana. Umudamu umwe yambaye umupira w'amaboko maremare akaba yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Umusaza wicaye wambaye ingofero y'ubururu, imbere yiwe hari abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'amaga y'umweru n'amataburiya yabugenewe y'ubururu.

Abantu bicaye ahantu muri sale, ku meza iri imbere yabo hateretse uducupa tw'ibirahure tw'amazi, umupapa wicaye akaba imbere ye hari mudasobwa undi akaba ari kwandika ku mpapuro.

Sare iberamo inama, yicayemo abantu benshi batandukanye bose bambaye utuntu mu ijosi, imbere hari umudamu, hari mbere yiwe hari akameza gateretseho uducupa t'wamazi ndetse n'igitabo.

Abantu benshi bahagaze, ndetse hakaba harimo abambaye amataburiya asa y'ubururu, harimo abagabo bambaye amakositime, bose bakaba bambaye udupfukamunwa, inyuma hakaba hari umuhungu uhicaye uhetse igikapu, ndetse wambaye jiri y'umuhondo.

Umwana mutoya wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umukara, akaba ari gukaraba intoki akoresheje isabune, hakaba hari n'undi uri kumusukira amazi n'ijage, inyuma y'uwo mwana hakaba hari agatebe k'urubaho.

Uruganda rurimo inyubako nyinshi zitandukanye ntoya imbere hagati mu byatsi hari ahantu hari amazi ndetse n'amamashini ayungurura imyanda irimo ayo mazi.

Umwana w'umuhungu wunamye, wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umuhondo, akaba afite isabune mu ntoki yiwe, ari gukarabira mu kadobo gasa ubururu, imbere yiwe hakaba hahagaze undi mwana mutoya ufite akabinika mu ntoki ziwe.

Ivomo rusange ririmo, hariho abamama ndetse n'umwana uri kuri robine uri kuvoma ibido ndende, inyuma hari abana bambaye amajipo ndetse bahagaze bari kubareba.

Salle irimo abantu benshi bicaye, imbere yabo ku meza hateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro. Hakaba harimo n'amakamera afata amashusho y'ibibiri kuberamo, imbere yabo hari idarapo ry'u Rwanda.

Abana batatu bari mu mugezi bose bafite indobo barikudaha amazi mu mugezi, umwe akaba yambaye ipantaro n'umupira w'amaboko maremare.

Abamama benshi bahagaze imbere y'inyubako, harimo abapapa n'uwambaye ingofero, abadamu bateruye abana batoya b'impinja, bamwe baricaye abandi barahagaze.

Ivomo muri rusange cyangwa se ivomero rusange, aho hari umudamu uri gupompa kugira amazi aze, umwana umwe ari kuvoma mu mabido manini, iruhande rwabo hahagaze ababyeyi ndetse n'abandi bana benshi cyane.

Abana benshi bambaye amashati y'umuhondo n'umusaza ubaciyeho inyuma hakaba hari abantu batanu, batatu muri bo ni abirabura, na babiri muri bo ni abazungu bambaye ingofero, harimo abamama babiri.

Abantu bahagaze imbere y'ivomero rusange hakaba hari amazi ari guturukamo ajya mu jerekani, iruhande rwayo hakaba hari n'akabido gatoya kabo bantu harimo abana ndetse n'umugabo wambaye ingofero.

Abamama batatu bari ku ivomero rusange, umwe afite indobo y'icyatsi mu ntoki, ari kudaha amazi ayakura mu kibase kinini giteretse kuri robine.

Sale iberamo inama, ku meza hateretse ikintu bifashisha mu gu porojeta amashusho ku gikuta cyangwa se ku gitambaro, hakaba harimo abagabo bambaye amakote n'amashati, harimo abadamu babiri, imbere yabo hateretse udutasi.

Umukecuru uhagaze ku ivomero rusange ari kuvoma amazi mu ijerekani yambaye umupira, akaba yambaye n'ingofero y'ubururu inyuma y'iwe hari amashyamba.

Sare yo kwa muganga, aho hicaye abarwayi ndetse hagati hakaba hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Akaba ari kubahereza amasomo y'ibihabera.

Abana benshi b'abanyeshuri batoya, bari ku ivomero rusange, bari gukaraba intoki bose bishimye bari guseka, harimo ab'abakobwa n'ab'abahungu.

Bicaye muri sale iberamo inama, imbere yabo hateretse uducupa turimo amazi yo kunywa, harimo umugabo umwe wambaye ishati ifite imirongo y'umukara n'umweru.

Bare yo kwa muganga hicayemo abantu benshi ndetse hakaba harimo umwana wambaye umupira w'ubururu, iruhande rwe ha kaba hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru afite urushinge ari kurutera uwo mwana.

Abaganga benshi bari imbere y'ivuriro, imbere yabo hahagaze umugabo w'umusaza w'umuzungu, wambaye ikote ry'umukara, mu imbere akaba yambaye ishati y'umweru, imbere hari abadamu bari gukoma amashyi baririmba.

Abamama bicaye bari kumwe n'umuganga ari kubafata ibipimo mu kiganza ndetse harimo n'umuganga w'umugabo, inyuma yabo hari umusore uhahagaze wambaye akajiri kerekana icyo akora.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umudamu wicaye ufite ibisuko, ndetse yambaye agapfukamunwa, akaba bari kumupima ukuboko kw'iwe kw'iburyo, umuganga imbere ye hari imashini cyangwa se mudasobwa.

Bitezwe ku kantu kari ku meza kavamo amazi bakaraba mu ntoki, iruhande rwe ku meza hateretse isabune iri ku kandi kantu k'ubururu.

Abantu benshi bahagaze hanze kwa muganga, hakaba hashinze idarapo ndetse hari abagabo benshi bambaye ingofero, abadamu benshi bambaye ibitenge banahetse abana.

Umumama uteruye umwana mutoya imbere yiwe hagaze umudamu mukuru w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba afite n'amaherena ku gutwi, afite ikintu mu ntoki ari gutamika umwana.

Abagore batatu bahagaze, umwe akaba ateruye umwana mu ntoki, undi afite agakoresho gakoreshwa mu gupima umurwayi, akaba yambaye akajiri ndetse n'agapfukamunwa n'amarinete, uri hirya yambaye ingofero n'ipantaro y'umukara.

Sale iberamo inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abadamu babiri, imbere yabo ku meza hateretse ikintu bifashisha mu kwerekana amashusho ku gikuta ndetse n'udukombe turimo ibyayi.

Cyo kwa muganga kirimo umusaza wicaye ku ntebe wambaye agapfukamunwa, ari kumwe n'umuganga w'umudamu wambaye agapfukamunwa na ga, afite urushinge mu ntoki ari gutera uwo muntu.

Umwana mutoya w'umukobwa, ufite udusatsi dusutse dufungiye inyuma, akaba yambaye agakanzu k'igitenge, akaba afite icupa ari gusuka amazi mu kiganza akaraba.

Batatu bari ku ivomero rusange, umwe afite indobo mu ntoki ari kuvoma ari kudaha amazi, ayakuye mu kibase kinini kiri ku ivomero.

Abantu benshi bicaye ahantu hameze nko muri sare, harimo abagabo ndetse n'abamama, bose bambaye imipira y'umweru, harimo n'abambaye ingofero ndetse n'amarinete.

Akantu gashushanyijeho imibare ndetse hariho amagambo matoya yanditse mu ibara ry'umukara, imibare yanditswe mu mabara atandukanye, ibara ry'ubururu, ibara ry'umutuku n'ibara ry'icyatsi.

Cyo kwa muganga harimo abadamu batatu bose bambaye udupfukamunwa babiri ni abaganga bari gutera urushinge umudamu wicaye ku ntebe urwaye.

Abantu barindwi bahagaze bateruye ikintu mu ntoki, batatu muri bo ni abadamu abandi bane ni abagabo, umwe yambaye rinete ndetse bakaba bambaye amashati bose ajya gusa.

Abantu bahagaze hanze ya sale iruhande rwabo hari icyapa gisobanurira ibihakorerwa, harimo abaganga babiri b'abadamu ndetse harimo n'undi wambaye rinete uhetse agakapu ku rutugu.

Aho hahagaze umudamu wambaye ingofero irimo amabara y'umutuku, ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, akaba iruhande rwe hicaye umuganga w'itaburiye y'umweru, ndetse n'undi uhagaze wambaye ishati y'icyatsi, imbere yabo kumeza hateretse mudasobwa.

Umumama uhagaze imbere y'abantu wambaye itaburiya y'umweru afite insakazamajwi mu ntoki ze ndetse n'agatabo ku ruhande rw'iwe hirya hari umugabo uri guturuka mu biti.

Inyubako irimo abantu batandukanye, harimo abaganga b'abagabo ndetse n'abaganga b'abagore, inyuma hari umupapa wambaye kositimu na karuvati, ufite igikoresho bifashisha mu gufotora.

Benshi bicaye bambaye imipira yenda gusa, imbere yabo hari ababyeyi bari kubanywesha amata mu bikombe, hakaba hari n'umupapa umwe wambaye imyenda y'abapolisi n'umudamu wundi wambaye ingofero.

Umwana mutoya uri guseka, akaba yikoreye injerekani y'umuhondo, ari kumwe n'umupapa uyimukoreye, wambaye isaha ku kuboko, ndetse akaba yambaye n'umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru.

Abana benshi bakikije ivomero rusange. Hakaba hari umwana uri kuvoma afite akabido, inyuma y'iwe hari undi mwana mutoya ufite utubido tubiri, n'undi musaza uri hepfo wambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi bicaye muri sare, harimo abagabo ndetse n'abagore, hari agakapu gateretse hasi ku ntebe iticayeho umuntu.

Abana babiri batoya, umwe afite igikombe mu ntoki, ari gusukira mugenzi wiwe amazi agakaraba, umwe ari guseka cyane yishimye.

Abadamu babiri bicaye bareba imbere, umwe yiteze igitambaro mu mutwe, undi we yambaye isaha ku kuboko kw'iwe kw'ibumoso, inyuma yabo hari amadarapo y'ubururu.

Abasore babiri bahagararanye barebana, umwe akaba ameze nk'aho ari kuganiriza mugenzi we, ahetse agakapu, yambaye ishati, undi na we yambaye umupira w'ubururu, akaba afite akantu yambaye mu ijosi.

Benshi batandukanye umwe yambaye ikanzu idoze mu gitenge, akaba mu mutwe wiwe hahambiriyemo igitambaro, mu ntoki akaba afashe ijipo y'ubururu, iruhande rwiwe hari umudamu wambaye ishati y'umutuku n'agatambaro k'umutuku.

Abana batoya babiri bicaye ahantu mu gishanga hari ivomero, bakaba bari gukaraba intoki, umwe yambaye agapira gatukura, undi yambaye imyenda isa hose.

Ivomero rusange rihagazeho abantu benshi bakikijwe n'amabido ndetse n'amabase, imwe muri pulasitike n'izindi eshatu zikozwe mu byuma, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako mu imbere, akaba ari abagabo b'abaganga bambaye amataburiya y'umweru, harimo abadamu babiri umwe w'umuzungu n'undi w'umwirabura wambaye nawe itaburiya y'umweru.

Umwana mutoya uhagaze hanze, impande y'ubwiherero, akaba ari gukaraba kuri kandagirukarabe iri hanze, amazi ajya mu kabase k'icyatsi.

Abana batatu bafite babiri bafite imisatsi myinshi iboshye undi umwe w'umupira w'ubururu afite umusatsi mukeya bakaba bari koga mubiganza ku ivomero rusange.

Abadamu batatu bicaye hanze mu rubaraza bose bakaba bambaye ibitenge baniteze ibitambaro mu mutwe bari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba yamushyizeho akuma bifashisha bapima, akaba afite n'agakayi ari kwandikamo ibyo yabonye.

Ikibaya kinini cyubatswemo inyubako nini, imbere y'iyo nyubako hari ahantu hatunganyirizwa amazi, hari amayesikariye azamuka ajyayo, hari abagabo babiri barimo bambaye utujiri dusa icyatsi.

Umugabo usutamye wambaye amarinete ndetse n'umupira ujya gusa umuhondo, iruhande rwiwe hari akana gahagaze k'umunzani werekana ibiro gafite.

Inyubako y'uruganda runini harimo amamashini menshi cyane hahagazemo umugabo wambaye ingofero yabigenewe y'umweru n'igisarubeti cy'umukara.

Umwana uri kunywa amazi kuri robine cyangwa se ku ivomero, inyuma ye hahagaze abantu, harimo uwambaye ipantaro y'umukara, iruhande rwabo, hakaba hari n'intebe.

Umubyeyi wicaye, witeze igitambaro mu mutwe, imbere y'iwe hakaba hari umuganga wambaye ga z'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba ari kumuhanagura mu kiganza, imbere yabo hateretse udukarito turimo imiti.

Benshi baba mama bambaye udupfukamunwa, bari hanze ahatangirwa serivisi z'ubuzima, imbere yabo hari umudamu wicaye ku kameza ari kubandika abandi bari kumwe n'utwana dutoya.

Abantu bari ahantu bari guterura imifuka y'umweru bayipanga ahantu hamwe ku ruhande, ni abamama babiri, umwe wambaye ingofero ahetse n'agakapu, undi yiteze igitambaro mu mutwe.

Abantu bari kuri robine bari gukaraba intoki, bambaye amajipo ndetse n'amashati y'umweru, harimo ufite akantu mu ijosi k'umukara n'umwana umwe wambaye ipantaro y'umukara mu imbere mu ijipo.

Umudamu wambaye ijipo ndetse n'akagofero mu mutwe, akaba ateruye ijerekani ari kuvoma amazi, iruhande rw'iwe hahagaze akana kambaye umupira w'umutuku ndetse n'akandi gatoya kambaye umupira w'umweru n'umukara.

Abana babiri bari ku ivomero rusange, umwe akaba afite indobo mu ntoki, undi imbere y'iwe hateretse indobo ebyiri, imwe akaba ari kuyifunguriramo amazi menshi.

Uruganda rushinzwe gutunganya amazi mu Rwanda, amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi mu nyuguti nkuru, akaba ashushanyije ahantu h'umweru.

Umuryango ushinzwe ubuzima ku isi, hakaba amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, inyuma mw'ibara ry'umweru hakaba hari n'akaziga gafashwe mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu.

Ivuriro rishinzwe uburwayi bwo mu mutwe, bakaba bafasha abantu mu buryo bwo kubaganiriza hadakoreshejwe imiti.

Sare iberamo inama, hahagazemo abantu benshi b'urubyiruko, harimo umugabo wambaye ipantaro y'umuhondo n'ishati irimo utubara dutandukanye ndetse n'umukobwa uri imbere wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umweru.

Abadamu babiri bicaye ku gatebe k'urubaho, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ishati, afite imisatsi myinshi akaba afashe undi ku rutugu asa nkaho ari kumugira inama.

Bane bose bicaye umwe afite insakazamajwi cyangwa se mikoro mu kiganza, arimo arayivugiraho, hagati yabo hicaye umugabo, imbere yabo hateretse mudasobwa igendanwa.

Umugabo w'umuzungu uhagaze mu nzira, akaba yambaye ishati iciyemo imirongo y'ubururu ndetse n'umweru, ahetse igikapu ndetse yanatebeje, inyuma hakaba hari icyapa cyerekana ibikorerwa inyuma y'icyo gikuta.

Umugabo wicaye hasi, ufite imisatsi isutse, akaba afite n'ubwanwa, akaba yambaye igipine ku nda, yambaye n'ikabutura ngufinya n'isengeri.

Umudamu uhagaze hanze akaba yikoreye igitebo kirimo ibyatsi, mu ntoki afite isuka akaba yambaye agakote k'umukara karimo uturongo tw'umweru ndetse yiteze n'igitambaro mu mutwe.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba hariho ifoto y'umupapa mukuru wambaye itaburiya yo kwa muganga.

Abantu benshi bicaye muri sale, ihuriro ririmo abantu b'abadamu, bambaye amarinete, n'umugabo wambaye ishati y'umweru, hamanitsemo televiziyo nini.

Hejuru wicaye hanze ku gatebe hasi hateretse igikombe ndetse n'umufuniko imbere yiwe hateretse isafuriya iri ku mashyiga bacanamo inkwi impande y'iwe hari inkoko isa umweru inyuma hari inzu yubakishijwe amatafari.

umukobwa uhagaze ahantu twakwita ikimoteri cy'imyanda inyuma ye hari ibyuma byashaje amapine, akaba yikwijeho imyanda myinshi yambaye ingofero isa nabi.

Umudamu uri guseka ufite ibisuko, akaba yambaye ijiri y'umuhondo, ahagaze ahantu hameze nko muri butike, inyuma yiwe harimo ibicuruzwa bikoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Umuntu wicaye muri rigori ahantu hasa nk'ahanyura amazi, yambaye nabi cyane afite umusatsi na wo ukaba usa nabi, afite amashashi mu ntoki ndetse n'ibintu by'ibibido bimuteretse iruhande.

Umudamu wicaye hanze ku mukeka, iruhande rwiwe hari abana ndetse n'undi mwana umwe ateruye, ateze igitambaro yambaye ijipo n'umupira, imbere ye hateretse agasorori gateretse ku nkoko.

Umusaza w'imisatsi myinshi, wambaye ishati y'ubururu akaba yikenyeje igitambaro ku rutugu cy'umuhondo, akaba afite amenyo yakutse ndetse afite ubwanwa bukeya ari guseka.

Umudamu wisukishije wambaye umupira w'umukara wicaye ku ntebe ari kuganira n'undi mukobwa, ufite agakinisho gatoya k'intare yambaye ikanzu y'ubururu irimo n'ibara ry'umweru.

Umuntu uhagaze mu muhanda, wambaye imyenda icitse, mu maso yisize ibintu bisa nk'umukara, inyuma yiwe hari imodokari nini y'igikamyo, akaba afite udukapu tw'udufuka ku rutugu rwe.

Abantu bicaye mu magurupe cyangwa mu matsinda, inyuma yabo haparitse imodokari nini y'umweru itwarwamo imiti itandukanye, impande hahagaze ababyeyi babiri umwe uri kumwe n'umwana mutoya.

Abantu bicaye ku ntebe, harimo abamama batatu ndetse n'umusore umwe wicaye inyuma wambaye ishati. Umwe akaba afite agapfukamunwa ku kuboko.

Umugabo uhagaze ahantu hasa nk'aho hibukirwa imibiri yabatashye, imbere ye hari ururabo, ku ruhande rwiwe hahagaze umudamu wambaye akajiri k'icyatsi.

Ufite inkoni mu ntoki n' numumama bafashe umuntu urwaye cyane usa nabi iruhande rwabo hahagaze umwana mutoya inyuma hari abadamu babiri.

Intare y'inama yicayemo abantu benshi batandukanye harimo abapapa ndetse n'bamama, imbere yabo hahagaze umudamu ufite ibisuko uri kubahereza inyigisho.

Umumama uhagaze wambaye amarinete imbere yiwe hari insakazamajwi, ameze nk'aho ari gutanga ikiganiro yambaye amaherena n'isaha ku kuboko.

Inzu bisa nkaho iberamo inama, yuzuyemo abantu benshi ari abicaye, ndetse hari abahagaze, harimo abagabo ndetse n'abadamu bambaye imyenda itandukanye.

Umuntu wicaye ku ntebe, iruhande rw'iwe hari indi ntebe, yiteze igitambaro mu mutwe, inyuma y'iwe hashushanyije igishushanyo cy'ururabo.

Uhagaze wambaye agapira k'umutuku mo imbere hakaba harimo n'undi mupira wenda gusa umukara, akaba ari guseka, afite umusatsi mukeya.

Umugabo wicaye yubitse umutwe, yambaye ingofero, akaba yambaye n'isaha, ahetse igikapu, yambaye ishati y'ikoboyi.

Umubyeyi uteruye umwana ufite imisatsi idasutse akaba yambaye umupira w'umweru ateruye akana gatoya cyane kari guseka.

Ishusho y'umutwe w'umuntu, ishushanyije yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi manini ndetse hakaba hariho n'ukwezi n'amatariki byose biri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako mu ibere hicayemo abamama batatu, bombi bateruye abana batoya b'impinja, ku meza hakaba hari telefone ebyiri, inyuma hakaba hari ijage bakoresha bita keto, bifashisha mu guteka amazi ku mashanyarazi.

Umugabo wicaye ari kurira amarira akaba yashotse ku matama, no mu mazuru yiwe hakaba hari gusohokamo ibintu, amaso yiwe akaba atukuye cyane.

Bahagaze harimo abagabo bambaye amakote ndetse abambaye amarinete, umudamu uhagaze imbere wambaye ijipo y'icyatsi ndetse n'undi wambaye iy'umukara.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako ahagana muri jaride, yambaye ishati ifite amabara atandukanye y'umukara n'igitaka, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umudamu uhagaze ahantu kwa muganga, akaba yambaye agakote yarengeje ku ikanzu y'umutuku, mu ijosi akaba yambaye akantu kerekana imirimo akora.

Umuntu umeze nk'umwana wicaye ahantu mu cyumba gisa nabi, akaba yambaye ubusa asa nabi cyane, yicaye hasi.

Inyubako, mo imbere ni sale nini, yicayemo abantu benshi, imbere hicaye abandi, harimo abadamu, n'abapapa bakuru, imbere yabo hari imeza, hari n'ufite ibipapuro mu ntoki.

Umugabo wicaye mu cyumba hasi, iruhande rwiwe hashashe igitenge, akaba ku kuguru kwiwe haziritseho akantu, yifashe mu mutwe.

Umudamu wicaye ku ntebe, akaba yambaye n'agapfukamunwa, yicaye imbere y'imbabura ari guteka, ku ruhande hari umwe, n'undi mwana mutoya ahetse.

Inyubako nini i imbere yaho hamanitse hariho ibyapa biranga serivisi zitangirwa aho hantu, akaba ari ifite iteyeho amarangi y'umweru, ikaba irimo amadirishya manini ndetse na jalide nini.

Abantu batanu bicaranye bari kuganira, umwe yicaye ku gatebe k'igiti ari wenyine w'umugabo wambaye ipantaro yayizinze, imbere hakaba hicaye abadamu bane, umwe wambaye igitambaro mu mutwe, undi wambaye akantu mu ijosi kerekana ibyo akora.

Umudamu uhagaze wambaye ikanzu idoze mu gitenge ndetse hakaba hari n'undi w'umugabo ufatanye n'umukecuru ku rutugu, akaba ari umusaza ufite ubwanwa bw'umweru n'umupapa uhagaze inyuma yiwe hari ibyatsi, wambaye ishati y'amaboko maremare.

Abana benshi bicaye hasi, bambaye impuzankano, bose bariyogoshesheje kandi bari guseka, harimo umwana umwe wipfutse ku munwa ariko ari guseka.

Yicaye mu cyumba, inyuma y'iwe hari ahantu hari akabaho baterekaho ibitabo, akaba yambaye umupira w'umukara, yipfutse mu maso afite umusatsi mukeya cyane.

Abantu batatu b'abakobwa bambaye amakanzu y'ubururu bafite bose uburoso mu ntoki, umwe yabushyize mu kanwa ari koza amenyo, undi abufite mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga hicayemo umwana wambaye agapfukamunwa, abaganga babiri umwe w'umugabo undi mudamu. Bambaye udupfukamunwa, basamishije uwo mwana bari kumusuzuma mu kanwa.

Umugore ufite umusatsi mukeya, uri guseka, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare, mu ntoki afite akantu ari kwerekana yifashisha mu koza amenyo.

Abana bahagaze ari benshi bose bambaye impuzankano bafite udukombe mu ntoki turimo amazi ndetse bafite uburoso bose bari koza amenyo.

Abagabo babiri n'abagore babiri, bahagaze mu ishuri, bari kumwe n'umwana, umwana uhagararanye n'umwarimu we ari kumwereka ibintu, ku kibaho hakaba handitseho ibintu mu ibara ry'umweru.

Amashuri ahagazemo umugabo imbere wambaye ikositimu ndetse n'isaha ku kuboko hakaba harimo na mwarimu wambaye itaburiya y'umweru ufashe umwana ku rutugu hari ibyo ari kumwereka, inyuma y'iwe hakaba hahagaze abadamu babiri.

Umwana mutoya wicaye, uryamye kwa muganga, bamwasamishije bari kureba uko amenyo yiwe ameze, akaba ari umuganga wambaye na ga.

Irimo abantu bakuru hamwe n'abana bambaye imipira y'icyatsi, ku meza hakaba hariho utuntu tw'udukarito dutoya, harimo n'umugabo uhetse igikapu wambaye umupira w'umweru.

Ni igishushanyo cy'imiterere y'akanwa ahanini kikaba kigaragara, kigaragaza amenyo uburyo atondekanyije mu kanwa, ndetse n'uburwayi waba ufite mu menyo.

Abadamu babiri bahagaze muri sale, inyuma yabo hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi, umwe muri bo afite bike n'urupapuro ari kwandika, yambaye rinete n'agakote k'umutuku.

Umuntu ufite ubwanwa bukeya, akaba afite akadodo mu ntoki, akaba yagashyize mu kanwa akazirika ku ryinyo, afite isume y'umweru ku rutugu rwe.

Igishushanyo cyerekana imiterere y'akanwa ndetse n'uburyo amenyo aba atondekanyije mu kanwa, uburwayi bwaba burimo ndetse n'uburyo bwavurwa.

Umudamu uryamye asinziriye akaba iruhande rwiwe hari abaganga babiri, umwe wambaye itaburiya y'umweru undi yambaye ishati y'ubururu, hakaba hari akuma yamushyize mu kanwa yasamye yambaye na ga z'umweru.

Icyumba kiteretsemo ameza, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha kwa muganga bari gusuzuma abarwayi mu gihe babagannye.

Umwana mutoya uryamye kwa muganga, akaba inyuma ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba yambaye na ga z'umweru, afite udukoresho mu ntoki twabigenewe mu gupima uburwayi bw'amenyo mu kanwa.

Umusore ufite imisatsi mikeya ndetse n'ubwanwa bugabanyije, akaba yambaye ubusa hejuru, afite urudodo mu ntoki ziwe yaziritse ku ntoki, akaba yarushyize mu menyo yiwe agira ngo arebe uko bimeze.

Abantu benshi bari mu nyubako, bamwe baricaye ni abapapa bakuru, abandi barahagaze harimo abadamu, yaba uteruye umwana ndetse n'abandi bafite amatelefone mu ntoki, harimo n'abambaye amarinete.

Abana benshi bambaye impuzankano bakunda kwita iniforume, bakaba bari mu ishuri, harimo ab'abakobwa ndetse n'ab'abahungu, hakaba harimo n'abadamu babiri basa nk'aho bakuze.

Abana benshi bicaye mu ishuri bose bambaye impuzankano mu ntoki yabo bakaba bafite utuntu dupfunyitse mu mashashi tumeze nk'uturibwa bose bambaye amashati bamanitse amaboko abiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe, igitanda beguye ndetse n'ibindi bikoresho n'isakazamashusho imanitsemo, harimo amatara ari kwaka manini.

Umwana basamishije bamushyize utwuma mu kanwa bakaba bari gupima amenyo yiwe, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga hakaba hicayemo umuntu w'umusore, ufite umusatsi mukeya uri guseka, akaba mu ijosi hari akantu k'umweru k'agatambaro kamurambitseho, iruhande rwe hari udukoresho yifashisha kwa muganga.

Babiri umwe n'umudamu ufite imisatsi myinshi, imbere yabo hari akarobine, ngaho bakarabira mu ntoki ndetse no mu maso, bombi bambaye imipira y'umweru, umugabo akaba afite agasume ku rutugu.

Umugabo uri kwireba mu kirori, yafashe urudodo arushyira mu menyo y'iwe, yambaye ishati y'umweru, afite ubwanwa bukeya.

Ibikoresho byinshi bitandukanye by'utwuma bifashisha kwa muganga bavura, hari utwuma kamwe karimo gasa umukara.

Umudamu wambaye isengeri y'umweru, akaba afite uburoso bwoza amenyo mu ntoki, imbere ye hakaba hari umwana mutoya na we ufite uburoso bwoza amenyo.

Umuntu uryamye hasi ufite udusatsi dusutse, akaba iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye na ga z'umweru afite akantu mu ntoki ari kumwereka.

Umugabo uri kwireba mu kirori, areba mu menyo, yambaye umwenda wo kurarana, hamanitsemo ibitambaro by'umutuku, ndetse n'udukoresho bakoresha bihanagura bari muri tuwalete.

Icyumba kirimo intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo amatara menshi ari kwaka hari n'aho bakarabira intoki mu gihe wanduye.

Umwana mutoya wambaye agashati gaciye amaboko ufite amaherena ku matwi wasamye bakaba bamushyize akantu mu kanwa gasa nkaho bari kumupima bareba uburwayi afite mu kanwa.

Umugabo uhagaze imbere y'ikirori akaba afite akantu mu ntoki afite imisatsi y'imyeru, yambaye amarinete, imbere ye hateretse agacupa karimo ibintu by'ubururu ndetse n'uburoso bw'amenyo ku ruhande.

Umukecuru w'imisatsi y'umweru ndetse akaba ari guseka, ari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi myinshi ndetse n'amaherena, inyuma yabo hakaba hari amameza ndetse n'intebe bitagaragara.

Umugabo uri mu cyumba kwa muganga, afashe ku kuma bifashisha bagenda abantu bamugaye amaguru, yambaye ibirenge, ku kuboko kwiwe aziritse akantu kerekana ko ari umurwayi.

Umudamu ukuze w'umukecuru ahagaze ahantu inyuma y'iwe hari imodokari ebyiri n'inyubako imbere hakaba hateye ibiti binini cyane.

Umumama ukuze ndetse n'umupapa ukuze w'umuzungu, yambaye rinete z'amaso, umumama yambaye isaha ku kuboko, iruhande rwe hateretse rinete, igikombe ndetse n'utundi tuntu bashyiramo imiti.

Abantu bari mu muhanda bagenda akaba ari abadamu batatu bari imbere, bambaye imyenda ya siporo inyuma yaho hakaba hari abagabo bari guturukayo, nabo bagenda muri kaburimbo.

Umusaza mukuru wambaye ishati, afite ubwanwa bw'umweru na telefone mu ntoki, ari kumwe n'umukecuru mukuru ufite imisatsi y'imyeru, ari kumwereka ikintu muri telefone ye.

Umusaza mukuru ufite ubwanwa bw'umweru, wambaye ishati, afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi, ari kumwe n'umuganga w'umudamu uri kumushyira imiti mu kiganza ngo ayinywe.

Umusaza mukuru cyane ushaje, ufite imisatsi y'imvi ndetse n'ubwanwa bw'imvi, akaba yicaye hasi ari kozwa n'umuntu ndetse yifashishije amazi n'isabune.

Umugabo wicaye mu ntebe wishimye harimo abapapa babiri, umwe w'umusaza n'undi usa nkaho ari mutoya, abadamu babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'undi wambaye ipantaro y'umuhondo, hagati yabo hari akana gatoya gafite imisatsi myinshi.

Umusaza mukuru ufite imisatsi irimo imvi wambaye ishati ateruye umwana bakozanyijeho amazuru akaba afite n'agakinisho mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umusaza mukuru ufite ubwanwa bw'umweru, yambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, akaba ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Abamama babiri bakuze bahagaze aho batekera, imbere yabo hari inyanya z'umutuku puwavura z'umuhondo ndetse n'imboga, inyuma yabo ari aho batekera umwe afite ikirahure mu ntoki kirimo icyo kunywa.

Umusaza mukuru wambaye amarinete akaba yambaye ishati ifunguye igipesu cyo hejuru, afite ikaramu afite n'igitabo mu ntoki akaba ari kugisoma.

Abasaza benshi bicaye hasi, umwe wambaye akagofero k'umweru, abandi bakenyeye ibitenge harimo uwambaye ishati irimo uturongo tw'umukara.

Umusaza ufite ubwanwa b'umweru, wicaye ku meza y'umweru, inyuma y'iwe hari akabati karimo ibitabo, hejuru hateretse akantu karimo indabyo, afashe ku mugozi, ari gukururana n'umugabo w'undi.

Aba mama babiri bicaye ,umwe akaba ameze nk'ushaje yambaye amarinete ari guseka ,afite icyuma mu ntoki, impande y'iwe hari imbuto ari kugenda akatagura, undi imbere y'iwe hakaba hari igisorori cy'ikirahure.

Umugabo usa nkaho akuze, ufashe ku rutugu umudamu mutoya wambaye amarinete ndetse n'ijaketi y'ikoboyi, akaba yambaye n'akantu mu ijosi.

Icyumba cyo kwa muganga cyicayemo umusaza wambaye ishati isa nk'igitaka, imbere ye hakaba hicaye umuganga w'umudamu akaba afite agakoresho ari kumupima ukuboko kw'iwe kw'ibumoso

Umwana w'umukobwa, ufashe umubyeyi mukuru akaba ari kumukoresha siporo, umumama w'umukecuru afite amaherena ku matwi, bambaye bombi imipira yenda gusa.

Umupapa mukuru cyane, ufite ubwanwa bw'umweru, afite inkoni bifashisha bagenda iyo mu maguru wagize ikibazo, ari kumwe n'umukobwa w'umuganga ufite ibisuko biryamye.

Umudamu mukuru ufite imisatsi y'imyeru, ufite amaherena, ahagaze mu buriro, afite ikanya ndetse n'isahani mu ntoki, inyuma yiwe hari akabati k'umweru.

Umukuru wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, ari kumwe n'umwana mutoya ufite imisatsi myinshi, kumeza harambitseho utuntu tw'dukinisho ari kwereka uwo mwana.

Abantu batatu, umwe muri bo akaba ari umusaza, ufite imisatsi y'imyeru, akaba yambaye ipantaro y'umukara, afashwe n'umumama umwe, ndetse n'umugabo umwe wambaye ishati y'umweru, w'umuzungu, umugore akaba ari umwirabura.

Umudamu usa nkaho akuze uri guseka, wambaye agapira gato k'amaboko matoya, mu ntoki ze harimo akuma bifashisha muri siporo ngororamubiri, gukora amaboko, inyuma y'iwe hari abandi badamu ndetse n'umusaza uri guseka ufite ubwanwa.

Abasaza babiri bahagaze mu itente cyangwa se igishitingi kinini, harimo abantu benshi bose bahagaze, umwe arakenyeye n'umukenyero w'umukara, undi yikenyeje igitambaro cy'umweru, bombi bambaye ingofero z'urugara umwe yambaye rinete.

Umuntu ukuze ufite imisatsi yimvi wambaye iherena arikumwe nundi mudamu wambaye nkabaganga ari kumukoresha imyitozo ngororamubir.

Abantu batatu, umuhungu, umukecuru n'umukobwa akaba bari bafite ifunguro, umugabo yambaye umupira w'umutuku, afite isahani iriho umugati, ndetse umudamu wambaye umupira w'umweru afite icyo twita utumamiro mu ntoki ari ku yoza ibiribwa.

Abamama babiri bakuze, umwe akaba yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, undi akaba ari umuganga akaba yambaye akantu mu gutwi bifashisha bapima abantu umuvuduko cyangwa umutima.

Umumama ukuze afite inkoni bagenderaho mu ntoki, akaba afatanye n'umugabo ufite ubwanwa, wambaye imyenda y'abaganga afite n'akuma mu ijosi rye bifashisha bapima umutima.

Abadamu batatu, umwe akaba ameze nk'aho akuze ufite imisatsi y'umweru, yambaye agashanete mu ijosi ndetse n'umupira w'umukar, iruhande rwe hari undi mudamu wambaye umupira w'umutuku n'imisatsi myinshi, bakaba bari guseka bakina amakarita.

Umugabo wicaye ku buriri ndetse akaba ari kumwe n'umudamu ufite imisatsi miremire, akaba amufashe mu kuboko agira ngo amufashe kumuhagurutsa, inyuma ye hari idirishya rinini ndetse n'itara riteretse ku kameza.

Umupapa ukuze ufite imisatsi y'imvi n'ubwanwa bmweru wicaye mu gatebe, ariku n'umuganga w'umudamu ari kumwereka ibintu hanze iruhande hari abandi bicaye ku ntebe n'imeza hagati ya bo.

Abagabo babiri bari mu nzira bagenda bose ni bakuru cyane umwe afashe undi ku rutugu umusaza akaba yambaye ingofero ndetse n'isaha ku kuboko.

Umusaza wicaye ufite imisatsi y'umweru akaba ari kumwe n'umukecuru nawe ufite imisatsi y'umweru kumeza imbere yabo hateretse ikirahure cy'amazi ndetse n'uducupa turimo imiti.

Abantu benshi bahagaze mu murima, iruhande rwabo hari ibimera biri mu ibara ry'icyatsi hari ufite agasuka gatoya wakamanitse hejuru, akaba ari abamama bambaye.

Umugabo ukuze wambaye amarinete akaba yambaye umupira muremure w'umuhondo afite akantu bifashisha bakina playstation yicaye mu ntebe ya kagare kababana n'ubumuga iruhande rwe hari umwana uri guseka ufite imisatsi myinshi.

Umugabo n'umugore basa nk'aho ari bakuru cyane, bicaye mu nzu, umugore afite agapapuro, akaba ari kwereka umugabo ibintu biriho, imbere yabo ku meza hari agacupa kameze nk'akarimo imiti.

Umupapa mukuru wambaye agapfukawa n'ishati y'ubururu, iruhande rw'iwe hari umuganga w'umudamu washyize akantu mu matwi ari gupima uwo musaza.

Abadamu bari mu murima w'icyayi bari kugisoroma, umwe akaba yambaye igitambaro mu mutwe, kirimo amabara y'umutuku, undi yambaye ikanzu isa n'igitambaro ateze mu mutwe, inyuma yabo hagati, hari igitebo bari gushyiramo ibyo bamajije gusarura.

Icyapa kiriho abagabo babiri bambaye amakoti n'amapantaro by'umukara, umugabo umwe aricaye undi arahagaze, inyuma handitseho yuko ari ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ibintu by'ubuzima.

Abantu barindwi bahagaze, bari kwifotoza, batatu muri bo ni abadamu, n'abagabo batatu bambaye amakote, umwe akaba yambaye na rinete.

Agatabo inyuma kanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umweru, akaba gasa ibara ry'umuhondo, hakaba hari n'andi ari munsi yanditse mu nyuguti ntoya na yo ari mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiriho amabara atandukanye, ibara ry'icyatsi, ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umutuku, handitseho amagambo ari mu nyuguti ndende ndetse hariho n'imibare.

Barindwi bahagaze, bose bambaye utuntu mu ijosi tumeze nk'amakarita turanga ibyo bakora, harimo abadamu babiri ndetse n'abagabo batanu, bose harimo abambaye inkweto z'umukara ndetse n'abambaye inkweto z'umweru.

Umugabo uhagaze wambaye ishati n'ipantaro yatebeje afite ikintu mu ntoki, inyuma hari intebe n'undi mudamu mukuru na we ufite icyapa mu ntoki wambaye ipantaro ndetse n'inkweto z'umukara.

Sale yuzuyemo abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari itorero ry'abantu babyina, abadamu bakenyeye ndetse n'abasore bakenyeye.

Umumama ufite ibisuko ndetse n'amaherena, akaba yambaye akantu mu ijosi, akaba yambaye n'ikanzu yenda gusa umutuku, akaba ari n'umuganga ushinzwe ibijyanye n'ubuzima.

Ukuboko k'umuntu runaka kukaba kuriho uduheri twinshi bigaragara ko arwaye uburwayi bw'uruhu n'uduheri twinshi.

Igishushanyo cyerekana imiterere ndetse n'imikorere y'ubwonko, kiri mu mabara y'ubururu ndetse mu imbere ubwonko bukaba bugaragazwa n'utuntu tumeze nk'ibishashi by'umuriro.

Umudamu wambaye amarinete uteze igitambaro mu mutwe, ahagararanye n'umugabo na we wambaye umupira w'umuhondo, bafite ikintu mu ntoki cyanditseho amagambo kiri mu mabara atandukanye.

Icyapfa kiriho umwana uri guseka mutoya cyane, inyuma hari indabyo z'umuhondo afashe ku mupapa mukuru ufite ubwanwa ku matama.

Inzu iberamo inama, imbere aho bita kuri podiyumu hahagaze umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi bita mikoro ndetse impande y'iwe hari intebe eshatu z'umukara, imbere y'aho hari n'utumeza.

Kwa muganga harimo abantu benshi batandukanye abagabo n'abagore, umudamu umwe yicaranye na muganga ari kumupfuka ku kuboko.

Umusaza wambaye ingofero y'ubururu akaba yicaye ku ntebe, imbere yiwe hari abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'ubururu na ga z'umweru impande yabo hahagaze abandi bantu bari ku muronko.

Igishushanyo mbonera cy'imikorere yo mu bitaro, hari ahabanza n'ahakurikira, kigizwe n'ibice bitatu biri kwerekanwa by'imikorere y'ibitaro.

Iberamo inam hicayemo abantu benshi, imbere yabo hicaye abantu batatu bose bafite ibitabo mu ntoki, bari kubabwira umwe umudamu uri imbere akaba ari umuzungu.

Umugabo wambaye kositime ndetse n'inkweto z'umukara, mu ijosi harimo ikiranga icyo akora, ahagararanye n'umudamu wambaye ikanzu, na we wambaye akantu mu ijosi ndetse n'inkweto z'umukara.

Abakobwa bahagaze mu imbere mu nzu, bose bambaye imipira y'umweru, bafite ibintu mu ntoki zabo, bafatanye harimo abafatanye ku rutugu, ndetse harimo n'abari guseka.

Nini irimo intebe z'umweru zicayemo abadamu benshi hakaba hari uhagaze ufite igikoresho bifashisha mu gufotora, imbere hakaba hari undi wambaye ipantaro usa nkaho ari gutanga ikiganiro.

Iberamo inama hakaba hicaye abantu benshi, imbere yabo hakaba hicaye abantu batanu, batandatu, umudamu umwe ndetse n'abagabo batanu bambaye amakote y'imikara.

Umukecuru ukuze cyane, akaba afite igipfuko ku jisho ndetse yiteze agatambaro k'umutuku, akaba yambaye umupira, ufite ibara ry'umweru.

Icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru n'andi magambo mu ibara ry'umukara, icyapa cy'ubururu bwijimye ubururu bwerurutse n'umweru.

Abantu bicaye ku rubaraza hanze, akaba ari abadamu, bose bari kureba ahantu hamwe, umwe muri bo yambaye ingofero y'umutuku, irimo n'ibara ry'umweru.

Ikarita yanditseho amagambo, yanditswe mu ibara ry'umukara, ikarita y'ubwishingizi ishushanyijeho itara riri kwaka.

Mu cyumba kinini cy'uruganiriro, hicayemo abantu benshi, abandi barahagaze, harimo n'ibishushanyo bigaragaza ikihakorerwa, hacanyemo amatara.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi, hari amanini ari hejuru ari mu ibara ry'umweru, yanditse inyuma ku ibara ry'ubururu, akaba ari ikigaragaza ubuvuzi butangirwa ahantu runaka.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi biryamaho abarwayi, harimo umudamu usutse uri kugendamo wambaye imyenda y'abaganga.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, ku ruhande hari amamashini bapimiramo, hakaba hari umupapa uryamye ku gitanda hagati.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo umuganga wambaye ga ndetse yiteze n'igitambaro cy'umweru. Afashe ku gahinja gatoya cyane kari ahantu hashashemo utuntu tw'umweru.

Cyo kwa muganga kirimo amamashini bifashisha basuzuma abantu, imbere hari agatanda barambikaho umurwayi bagiye kumusuzuma. Inzu irimo amatara rimwe niryo riri kwaka.

Ivuriro rusange, hanze hakaba hari abantu bicaye, umusaza wambaye ingofero ndetse n'ijaketi irimo ubururu, hakaba hari umudamu uhagaze uhetse umwana, ndetse hakaba haparitse n'imodokari.

Ni abamama batatu bicaye ku ntebe, umwe muri bo akaba ari umuganga bisa nkaho ari kubafata ibipimo, abo bamama bombi basa nk'abakuze bambaye amakanzu.

Inzu igiye ifite ibyumba bitandukanye binini biriho inzugi zo mu mbaho, harimo amatara ari kwaka, mu nzira hateretsemo akameza.

Aha ni kwa muganga, harimo intebe n'igitanda abarwayi baryamaho. Harimo akabati ndetse n'akarobine gatoya umuntu yifashisha akaraba mu biganza cyangwa mu maso.

Icyumba cyo kwa muganga giteyemo ibitanda abantu barwaye baryamaho, kiriho amashuka ndetse n'utumeza bashyiraho imiti. N'igikoresho kirimo bareberaho uko umurwayi ahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo insakazamashusho ebyiri, ndetse utumeza abaganga baterekaho imiti harimo n'igitanda baryamishaho abarwayi.

Abantu batanu bahagaze umwe muri bo ni umugabo, akaba ahagararanye n'abadamu bane, umudamu umwe yambaye agashati kenda gusa ubururu kandi afite n'ibisuko, undi yambaye agashati k'umweru.

Ni igipangu kinini, hanze hashinzeho ibyapa bigaragaza ko ari kwa muganga, ni ibyapa bitatu, kimwe cy'ubururu n'ibindi bibiri by'umweru, mo imbere hashinzemo ibiti binini bibiri.

Mu cyumba kwa muganga harimo ibikoresho bifashisha bari gupima, hari n'aho hateretse imiti hejuru y'imeza, hari amadirishya asizemo irange ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga harimo abaganga babiri b'abagabo bambaye ingofero, bakaba bambaye ga mu ntoki, imbere yabo hateretse utubido dutoya tw'umweru.

Inyubako itatse iriho igitambaro imbere cyanditseho amagambo yerekana ibikorerwa mu iyo nyubako, hanze haparitse imodokari eshatu ebyiri z'umweru n'indi imwe y'umukara hakaba hari n'abantu bahahagaze ku muryango.

Inyubako nini ikikijwe n'amashyamba, akaba hanze hari abantu, bamwe bari kugenda mu nzira, abandi bikoreye indobo z'umutuku ndetse n'ubururu.

Umwana mutoya uri gusunika umupapa mu kagare k'ababana n'ubumuga, imbere yabo hari umudamu uhagaze ku muryango wambaye umupira w'umweru.

Inyubako imbere yayo hateye amadarapo abiri, mu muryango hari gusohokamo umuntu wambaye umupira w'umweru, imbere hateretse ibivaze birimo indabyo.

Ikusanyirizo ry'aho babika imiti kwa muganga, akaba ari imiryango myinshi, mo imbere hagiye harimo utuyetajeri tugiye turimo imiti kamwe ku kandi.

Inyubako imbere ikusanyirizo. Ikusanyirizo ry'imiti itandukanye kwa muganga igiye iri mutubogisi, utwo tubogisi tukaba turi mu ma etageri y'ibyuma, imbere hakaba hari urugi ndetse n'itara ririkwaga hejuru.

Icyumba cyo kwa muganga giteretsemo intebe ndetse n'isakazamashusho bifashisha bareba ibisubizo, harimo igitanda baryamishaho umurwayi, hashushanyijemo amoko menshi y'ibisimba.

Inyubako nini yubakishijwe beto, ndetse hari inzira yubakishije kaburimbo, impande akaba ari jaride, hakurya yaho hakaba hari imisozi igizwe n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze harimo abasaza ,abadamu ndetse n'aba papa ,hakaba harimo uwambaye amarinete ndetse n'abagabo bambaye amakositime n'amashati.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini bifashisha mu gupima umurwayi, imbere yaho hari n'agatanda baryamishaho uwo bagiye gusuzuma, hari n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri gukora ku gitanda.

Inzu nini isa nkaho ari ikigo nderabuzima, ahatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima, hari abagabo babiri bahagaze, umugabo umwe wicaye n'umudamu wambaye umupira w'umutuku.

icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini bifashisha mu gupima umurwayi, imbere yayo hari agatanda barambikaho umurwayi, impande hari imashini bifashisha bareba ibipimo by'umurwayi.

Umuganga w'umudamu wambaye akagofero n'agapfukamunwa na rinete, afashe akana gatoya cyane k'agahinja gateruwe n'umudamu ufite ibisuko biryamye.

Ububiko bw'imiti kwa muganga burimo etajeri z'ibyuma zigiye zipanzemo imiti igiye iri mu dukarito ndetse n'indi iri mu ducupa duto duto cyane.

Icyumba cyo kwa muganga hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, hari aho bashyira imyanda y'ibintu byamajije gukoreshwa, harimo igitanda basunika kiryamaho umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bifashisha bavura, hakaba harimo ibitanda bibiri bifite amapine ku buryo byabasha gusunikwa biriho umurwayi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, hakaba harimo amayetajeri menshi agiye arimo imiti y'amoko atandukanye, hakaba harimo n'intebe y'umweru.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, imbere yiwe hari ibikoresho bifashisha kwa muganga, akaba ari guseka, yambaye ishati y'umweru n'isengeri y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga aho bavurira amaso harimo intebe nyinshi ndetse hamanitsemo utuntu tw'ubururu n'umweru bakunze kwita ibipirizo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu kwita ku barwayi, hateretsemo akabido karimo amazi ndetse umurwayi akaba yambaye agapfukamunwa aryamye ku gitanda.

Ivuriro hanze yaryo hakaba hahagaze abantu benshi batandukanye harimo abadamu ndetse n'abagabo bamwe muri bo bakaba bambaye udupfukamunwa, hirya hari shitingi ihateye yicayemo abandi bantu benshi.

Icyumba cyo kwa muganga, kiriho kirimo utu etajeri tubiri dutandukanye, aho babika ibikoresho byifashishwa kwa muganga, hakaba hariho n'aho bakarabira intoki.

Umudamu uryamye mu cyumba kwa muganga, hejuru yiwe hakaba hamanitse inzitiramibu, ku ruhande hakaba hari umudamu wambaye amarinete na ga, akaba ari kumuvura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe y'amapine igenda, hakaba harimo igitanda baryamishaho umurwayi.

Inyubako irimo inzugi z'ibirahure ndetse n'akabati, ikaba isizemo amarangi y'umweru ndetse n'inzugi z'umweru ziri inyuma.

Inyubako igeretse, aho bacuruza imiti y'amoko atandukanye, ikaba isize irangi ry'umweru, hanze hari ibipapuro bishushanyijeho imiti yose bafite mo imbere.

Cyo kwa muganga harimo umurwayi uryamye ku buriri yambaye ikanzu, iruhande rwe ahagaze umugabo wambaye linete n'umudamu wundi uri kumushyira agapfuko ku kiganza cye.

Inzu ebyiri zegeranye z'umweru, hanze hari ibiti bitoya bitarakura, hari pasiparume n'inzira abantu bacamo yubakishijwe amapave.

Mu icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho, hamanitsemo serumu, ndetse harimo igitanda kiryamyeho umurwayi, akaba yiyoroshe amashuka y'umweru ndetse n'indi ijya gusa icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo udutanda tw'umuhondo, utubati babikamo imiti ndetse n'impapuro, utumeza bifashisha bahereza imiti abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga, hahagazemo abadamu babiri, umwe ateruye agahinja mu ntoki, undi yambaye ikanzu y'ubururu iriho umweru na rinete ku maso.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyemo abarwayi, ku meza imbere hari udushashi twinshi turimo amaraso bakoresha bongorera umurwayi wayabuze.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ari icyumba kirimo ibikoresho bifashisha bavura abarwayi, amamashini apima uko bahagaze n'imeza baterekaho imiti.

Go nini yo kwa muganga aho abarwayi barwarira hakaba hateretsemo intebe intebe ntoya y'umuhondo asizemo amarangi y'umuhondo hakaba harimo itara rinini riri kwaka.

Kwa muganga hari guca umudamu wambaye ipantaro ndetse n'ishati, akaba afashe akana gatoya mu ntoki kari kwigenza, imbere yabo, hari undi mwana wambaye ipantaro y'icyatsi, ufite akabase mu ntoki.

Inyubako yo kwa muganga yubakishijwe ibyuma, impande zayo hakaba hari udutara dutanga urumuri rw'icyatsi, hejuru hakaba hari amatara yandi asanzwe manini ariko atari kwaka.

Icyumba, kwa muganga harimo abarwayi, umwe akaba ari kuvurwa n'umudamu ufite imisatsi myinshi, wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umweru, umupapa wicaye ufite bike ari kwandika.

Inyubako igeretse inshuro eshatu hejuru yayo hariyo ibigega ndetse n'ibyuma bibasha gukurura, haparitse imodokari zirenga enye, hanze hari icyapa kiriho amagambo yerekana serivisi zihakorerwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bifashisha basuzuma umuntu, hari agatanda kari imbere y'iyo mashini baryamishaho umurwayi bagiye gupima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini bifashisha batunganya ibintu, hateretsemo ameza y'umweru kuruhande afite utubara tw'umutuku, hari n'umuganga wambaye amataburiya y'umweru n'ipantaro y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bapima, harimo utubati babikamo imiti ndetse n'ibipapuro by'abarwayi, harimo igitanda baryamishaho umurwayi.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru bahagaze imbere y'imashini yo kwa muganga, hari n'aho bari kurebera ibintu kuri osirosikopu yo kwa muganga.

Inyubako ikorerwamo cyangwa ivurirwamo amaso, ifite amabati y'ubururu, imbere hari inkingi zifashe urubaraza ndetse n'ibyatsi biteye ahagana ku nzira werekeza mu ivuriro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, hamanitsemo ibitambaro binini, harimo igikoresho gisakaza amashusho y'ibipimo byaba byafashwe byose.

Sare yo kwa muganga irimo insakazamashusho bareberaho ibipimo, harimo icyuma bakoresha basuzuma, imbere yacyo hariho agatanda baryamishaho umurwayi bagiye gusuzuma.

Igeretse hasi hari aho bagurira imiti haparitse imodokari ebyiri, imwe isa ubururu bwijimye, indi isa nk'umweru utari mwinshi.

Cyo kwa muganga kirimo umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya y'umweru, yambaye ga z'ubururu afite agacupa mu ntoki, ari gusoma amagambo imbere y'iwe ku meza yinyuma ye hateretseho imashini.

Farumasi cyangwa se ahagurirwa imiti wandikiwe kwa muganga. Hanze hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru, haparitse na moto ihagaze aho ngaho. Kaba ari mu nyubako ifite urugi ndetse n'idirishya rinini.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, harimo igitanda ndetse n'agatebe k'amapine kagenda, hariho hamanitsemo n'isakazamashusho.

Imbere mu cyumba kwa muganga harimo ibitanda bibiri, hakaba harimo n'amatara abiri ari kwaka n'inzugi ebyiri zegeranye, hasizemo amarangi y'umweru.

Ini yo kwa muganga harimo umuhungu wambaye agapfukamunwa afite ikintu bifashisha bahanagura cyangwa bakoropa yambaye umupira w'ubururu harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n’abarwayi baryamye ku bitanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo agatanda bashyiraho umurwayi ndetse n'imashini cyangwa icyuma bifashisha bapima, harimo umuganga uri gukoresha icyo cyuma ndetse n'insakazamashusho areberaho ibipimo.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete ndetse n'itaburiya y'umweru mu ijosi ,ku rutugu afiteho akuma bifashisha mu gupima cyangwa mu gusuzuma umurwayi. Inyuma y'iwe hahagaze umwana wambaye ikanzu y'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo bibiri biri mu ibara ry'ubururu, ibindi bimeze nk'ibara ry'umweru bicometse ariho agataburo wagira ngo n'aho barebera ibisubizo.

Ni inyubako igeretse inshuro imwe, akaba ari ibitaro by'akarere, hakaba hariho amabati ndetse ikaba isize irangi ry'umweru.

Abadamu bane bahagaze imbere y'inyubako y'ababyeyi, bakaba bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'amapantaro asa akaba ari abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, amamashini bifashisha bapima abarwayi ndetse n'insakazamashusho bareberaho ibipimo byabo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibishushanyo byinshi harimo ikiriho ifoto y'umugore wambaye amarinete w'umuzungu n'undi mugore w'umwirabura na we wambaye amarinete.

Sale nini irimo intebe, amatara ari kwaka manini, harimo amameza, harimo na mudasobwa bifashisha.

Cyo kwa muganga hateretsemo intebe harimo igitanda baryamishaho abarwayi, hari utu etageri babikamo impapuro n'ibindi byifashishwa, hari n'icyuma gifotora impapuro kikazisohora.

Icyumba cyo kwa muganga harimo abagabo babiri bakuze, umwe w'umuganga n'undi w'umurwayi bari gufata ibipimo, inyuma yabo hari agakoresho bifashisha barwanya inkongi y'umuriro.

Mu icyumba cyo kwa muganga kiri mu itara riri kwaka, harimo akabati kabikwamo impapuro cyangwa se ibisubizo, harimo n'igitanda abarwayi baryamaho, hari n'akantu bajugunyamo imyanda ku ruhande.

Icyumba cyo kwa muganga aho bavurira amaso hakaba harimo utubati tubiri turimo amarinete menshi atandukanye, hejuru hakaba hateretseyo ibintu by'ibitabo harimo na kamera mu imbere n'amatara rimwe abiri ari kwaka.

Umupapa wicaye mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo ibikoresho yifashisha mu kuvura abarwayi, yambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kuboko.

Sale yo kwa muganga irimo ibitanda abarwayi baryamaho, hari n'agatebe bicazamo umuntu wavunitse, harimo abaganga bari kwita ku barwayi.

Sale nini yo kwa muganga, harimo ibitanda bitatu, ndetse n'isakazamashusho zimanitse hejuru, n'aho abaganga bareberera abarwayi mu byumba.

Umumu ufite isume ku rutugu akaba afite agacupa ari kunywa amazi, afite imisatsi mikeya, yambaye akantu mu ijosi.

Uducupa dutatu tw'umweru dushushanyijeho ibintu, hariho amagambo avuga uburyo gakoreshwa, akenshi dukoreshwa ku muntu wagize imvune ahantu runaka.

Iriho utuntu dutandukanye, hariho urusenda ndetse na pome ebyiri, ironji ndetse n'utwatsi, utuntu bafata mu ntoki bari gukora siporo ikirahure kirimo ji.

Ifashe ijage cyangwa ibinika mu ntoki k'ikirahure kirimo amazi ari gusuka mu kindi kirahure gitoya giteretse ku meza.

Umukobwa wambaye utwenda tw'umukara, mu ntoki afite igikombe ari kunywa amazi, ku kuboko kwiwe hariho terefone iziritse n'akantu k'umukara.

Kinini kiriho ibintu byifashishwa mu buzima bwa buri munsi hariho agapupe karyamye ndetse n'igikapu kinini cy'umukara.

Mu icyumba cyo kwa muganga hamanitsemo akantu bifashisha bazimya inkongi y'umuriro igihe yatewe, umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi, mu ijosi afite ikintu mu kiganza.

Umugabo wambaye umupira wubururu n ikabutura yumukara afite utuntu mu ntoki bifashisha muri siporo ngororamubiri ushaka gukora ukuboko ahagarikiwe nundi mugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Umukobwa wicaye muri kaburimbo akaba yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara imwegereye, agasengeri k'umukara kamufashe cyane ndetse na ekuteri yambaye mu matwi, akaba ari gukora siporo imyitozo ngororamubiri.

Z'ubuvuzi biciye muri siporo umuntu aba akora zose akagabanya umubyibuho cyangwa se ibinure biterwa n'uburyo wazikoze, umuntu ufite umupira mu kiganza undi wawuteresheje ukuguru undi akaba afite agacupa ari kunywa amazi.

Uri kunywa amazi mu gacupa, yambaye umupira w'ubururu, n'agashanete ka luminiyumu kari mu ijosi ry'iwe, akaba afite ubwanwa bukeya.

Igikapu kirimo amoko atandukanye y'imiti, hari iri mu dukarito, hari iri mu mashashi, ndetse n'icupa ririmo riryamyemo. Ni igikapu cy'umutuku kiriho imigozi y'umukara.

Umudamu ufite agacupa mu ntoki ari kunywa amazi, afite isume ku rutugu rwiwe, yambaye n'isengeri afite imisatsi mikeya.

Igikombe cy'ikirahure giteretse hasi, hakaba hari gusukwamo amazi ageze hejuru ndetse ari gusukwamo akoresheje ikindi kirahure twakwita nk'ijage.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya, akaba afite agacupa ku munwa kuzuye amazi ari kunywa, akaba atagaragara ku gice cyo mu maso no ku musatsi.

Agatanda batwara mu ntoki, kariho n'utuntu tw'umukara bahambiriza umuntu, kakaba kari mu ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari aho bafata n'intoki.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga hari amabande bizirika, bazirika umuntu, hari umukasi munini w'umukara n'udukombe tune tuhahagaze n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Abagabo batatu bari hanze, umwe ahagaze ku rwego ari hejuru, undi ari hasi afite ibintu mu ntoki biri mu kintu cy'umutuku n'akandi ari guhereza uhagaze ku rwego, inyuma ye hari undi musore wambaye ipantaro y'umukara wambaye n'agapfukamunwa.

Abagabo babiri bambaye utu utujiri hariho ikimenyetso cya kuruwa ruje, bakaba bateruye umuntu wambaye umupira w'umuhondo ushushanyijeho numero gatatu asa nkaho yababaye cyane, inyuma yabo hari abagabo bahagaze bambaye imipira y'imweru.

Insimburangingo y'ukuguru isa umukara, hariho utuntu bafunga kugira ngo iyo nsimburangingo ikwegere neza, igufate ku kirenge.

Umuntu uhagaze uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri akaba afite imisatsi isutse ibintu biryamye, afashe ukuboko kwiwe agukoza inyuma mu mugongo.

Umusore wambaye umupira ujya gusa icyatsi cyerurutse, akaba afite mu ntoki ze umupira bakina, akaba yambaye umupira w'amaboko magufiya, ufunguye hejuru igipesu.

Iteretseho akuma ndetse n'icupa ry'amazi ziriziritseho akantu bakoresha bapima uburebure bw'ikintu ku meza harambitse irongi rikase ndetse n'ikinyomoro gikase n'urusenda rw'umutuku.

Ni ibirahure biteretse ahantu, kimwe kirimo amazi ikindi kirimo ji, hari imetero bifashisha bapima yaba imyenda, cyangwa se bapima ibindi bintu, hari imbuto, inkeri z'umukara n'izumutuku n'amaronji abiri y' udusate, n'ibibabi inyuma n'ubunyobwa.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo uryamye ku kameza, ku gatanda impande y'iwe hari abakinnyi bahagaze mu kibuga.

Agakapu k'umutuku kariho ikimenyetso cy'umusaraba bakunda kubikamo udukoresho twose imiti, amabande, inshinge, imikasi, amaga ndetse n'ibipfuko bakoresha bavura umuntu.

Ibogisi babikamo imiti yo kwa muganga harimo imakasi, harimo agakarito karimo amabande ndetse n'utundi dukarito turimo indi miti y'ubundi bwoko.

Igikoresho cyo kwa muganga, cyangwa muri laboratwari, aho basuzumira, kikaba kiriho utuntu tw'ubururu, ndetse n'utundi tuntu dutatu tw'umukara, bakaraga bapima, ari ikintu bashaka gupima, cyangwa se kureba neza cyane.

Umuntu w'umusore upfukamye mu muhanda wambaye umupira w'amaboko maremare akaba yambaye n'ikabutura, arapfukamye yifashe mu ivi asa nk'aho ari kuribwamo.

Icyuma cyifashishwa kwa muganga, aho bagikoresha bapima abarwayi, kikaba kiriho udupine tune ndetse na taburo yerekana ibipimo by'umuntu.

Igikoresho kinini cyo kwa muganga harimo akabati kanini kariho, karimo ibintu bifashisha bakoresha hari n'igitanda gitoya barambikaho umurwayi bagiye gusuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byose bifashisha bapima ngo barebe ubuzima bw'umurwayi, uko buhagaze, hakaba hari n'imiti impande zaho.

Cyo kwa muganga gihagazemo abaganga batanu, impande yabo hakaba hari ibikoresho bifashisha bavura kandi banareberaho ibimenyetso by'umurwayi.

Umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ntago agaragara ku gice cyo hejuru, afite mu ijosi akantu bifashisha mu gupima imiterere y'umutima.

Umuntu uryamye ku gitanda cyo kwa muganga ,akaba akikijwe n'abandi bagabo babiri bambaye amakote ndetse n'abandi baganga babiri bambaye amashati y'umweru ,bakaba bamushyiriyeho insimburangingo ku kaguru kavunitse.

Umugabo wifashe ku gatuza akaba nta shati cyangwa umupira yambaye, akaba ameze nk'uri kuribwa mu gatuza.

Umukobwa wicaye ku buriri, ari mu cyumba amanitse amaboko ari kwigorora, yambaye agasengeri k'umukara, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara.

Umugabo n'umugore bari kwirukanka mumuhanda, bombi bafite uducupa mu ntoki turimo amazi bagenda banywa, bambaye bombi udusengeri ndetse n'udukabutura, tugufinya cyane tw'umukara.

Umukobwa ufite umusatsi mukeya, akaba yazamuye agacupa ku munwa karimo amazi, yambaye agashanete mu ijosi, yambaye kandi isengeri, afite isume ku rutugu y'umweru.

Akabido gateretse hasi ku ruhande k'umweru kariho icyapa cy'umukara, cyanditseho amagambo asobanura ibijya muri ako kabido k'umweru gato.

Umuntu wicaye hasi wambaye umupira w'umweru akaba yazamuye ukuboko kumwe ndetse akaba afite ishashi yishyize mu ihuriro ry'amaboko hano, aho twakwita mu nkokora yashyizeho ishashi ikonje.

Abana bari kubyina bambaye amasengeri yose y'umweru, bari kubyinira mu kibuga bakiniramo umupira w'amaboko, inyuma hakaba hari abantu benshi bari kubareba, inyuma y'abo bantu hari insina zeraho ibitoki.

Umusore wicaye ahantu hameze nk'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara, imbere yiwe hahagaze umugabo utagaragara mu maso na we wambaye ipantaro y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiryamyeho umurwayi, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa, wambaye na ga, akaba ari gupima umuntu uryamye yikoresheje icyuma cyabigenewe.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari ikireba uko umutima w'umuntu atera utera ndetse imihumekere y'umuntu byose bigaragara kuri kw'isakazamashusho tureba imbere yacu.

Igikoresho cyo kwa muganga kiriho udupine tune tw'umukara, hejuru yaho hari aho ahantu h'umukara bafata basa nkaho bacisha ikiganza bagafata.

Umudamu wicaye ku gatapi, imbere yiwe hateretse mudasobwa, ku ruhande rwiwe hateretse agacupa k'amazi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umukara n'agapantaro kamufashe.

I bogisi yuzuyemo imiti y'amoko atandukanye, hakaba harimo n'amavuta na bande hamwe n'umukasi uteretse mu kantu n'udukarito tw'ibinini.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufiya, yambaye ekuteri mu matwi akaba afite agacupa karimo amazi ari kuyanywa.

Ibiganza bibiri, kimwe cyubitse ikindi cyubuye, byambaye ga, ga ntoya z'umukara zifite utuntu two ku ntoki duciyemo kabiri.

Umugabo utagaragara mu maso, wambaye ipantaro yenda gusa umukara, inyuma ye hahagaze umuganga w'umudamu, wambaye impuzankano yabugenewe.

Inkweto ndende y'umukara iteretse ahantu hasi, hakaba hariho agapapuro gashushanyijeho amagambo yerekana y'uko ari na nshyashya itarambarwa.

Ku meza hakaba hateretse utwuma twinshi, bifashisha mu kugorora intoki, hakaba hariho ubwoko butandukanye bw'imbuto, hari n'urusenda na pome z'umutuku n'iz'icyatsi n'imineke.

Umudamu wicaye hasi akaba yambaye ipantaro y'umukara imwegereye cyane, inkweto zirimo ibara ry'umweru n'umutuku, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikarito bashyiramo imiti, inyuma hashushanyijeho uducupa tw'imiti, hariho amagambo yanditse mu nyuguti nini mu ibara ry'icyatsi.

Ibiganza bine bishushanyije bigiye biriho imibare kuva kuri rimwe, kabiri, gatatu, kane bifite intoki, ibiganza by'intoki eshanu eshanu inshuro enye.

Akabogisi karimo amoko atandukanye y'imiti, harimo abande ndetse n'amavuta y'igikotoro, imbere hari akantu karimo umukasi w'icyuma.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'umutuku ndetse n'umupira w'umutuku n'amasogisi y'umukara, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri ahabigenewe.

Imeza iteretseho icupa ry'amazi, hakaba hari pome, urubuto bita pome, ironji ndetse n'akuma n'imetero bifashisha bapima.

Akuma gakoreshwa kwa muganga, hari hejuru hari utuntu tw'umukara bacomeka mu matwi, hanyuma kariya ko hasi bakagashyira ku mubiri aho bashaka gupima.

Umukobwa uri ahantu muri sale uhagaze ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye agapantaro kamwegereye cyane bakunda kwita kora, hejuru yambaye isengeri y'icyatsi imufashe cyane akaba ari kwigorora amaguru.

Dorone cyangwa se kamera iguruka igenda itanga ubuvuzi bw'ibanze cyane cyane amaraso, inyuma hari inyubako zitagaragara ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye isengeri akaba afite agacupa mu ntoki karimo amazi ari kunywa, akaba afite umusatsi mukeya nta bwanwa afite.

Umukobwa wambaye agasengeri na ekuteri mu matwi ndetse yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, akaba ku kuboko kw'iburyo, hariho terefone izirikishije akantu k'umukara.

Akamashini k'umweru kariho amanimero bakanda, hakaba hariho n'agataburo kerekana ibipimo runaka, iruhande rwaho hari umugozi w'umukara bifashisha bacomeka ako kamashini.

Umugabo uri ahantu hameze nk'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye ikabutura ngufinya y'umukara, akaba yambaye n'umupira n'ubundi w'umukara, inkweto z'umukara, hakurya yiwe hanze hakaba haparitse imodokari.

Abantu bari ahantu hamwe bameze nk'abari gukora siporo ngororamubiri, bambaye imyenda ya siporo harimo umugabo wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye irimo uturongo twumweru n'umupira w'icyatsi.

Abagabo babiri bari mu kibuga, aho bakinira umupira w'amaguru, umwe aryamye hasi, iruhande rwiwe hari baro bakoresha cyangwa umupira bakina, umugabo umwe akaba ari kumukanda mu ntege, aho bita mu mpfundiko.

Ikiganza giteruye ikirahure kinini bakunda kwita ijage, hakaba hari n'ikindi kirahure gitoya giteretse hasi, akaba ari gusukamo amazi ageze hagati.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ikoboyi, wifashe ku kirenge cyiwe, akaba ari kuhakandisha akantu kameze nk'agashashi karimo ibintu by'amazi.

Babiri bahagararanye umwe yambaye ga z'abagaridiye barinda izamu, undi afite utuntu mu ntoki ari kumusuka ku biganza, yambaye ijakete y'umukara n'ubururu bwijimye.

Imiti yo kwa muganga bifashisha mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo runaka, hakaba hariho n'amaga abiri n'udukombe n'indi miti ya pomade.

Mu cyumba cyo kwa muganga hicayemo abaganga bose, harimo uwambaye itaburiya y'umweru na marinete. Imbere yabo hahagaze umupapa mukuru wambaye itabuririya y'abaganga, inyuma y'uwo muganga hari igitanda kiryamaho abarwayi.

Umugabo wambaye ipantaro bambara bagiye muri siporo ndetse yambaye isengeri na ekuteri mu mumatwi akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri yumva indirimbo.

Urubuga ruhuriraho abantu bakina umukino wo kwirukanka, hariho umugabo wambaye agakabutura kagufiya, isengeri y'umutuku, imbere y'iyo sengeri hariho ibara ry'umweru rishushanyijemo akantu k'umukara.

Iriho udukoresho dutandukanye, hariho isaha ndetse urubuto rwa pome, agacupa karimo amazi n'akagozi bakoresha bari gupima uburebure bw'ikintu igipimo bakoresha ku mutima ndetse n'impapuro n'ikaramu bari kwandikisha.

Umuntu wicaye ku buriri akaba yambaye umupira w'amaboko maremare, ari kwishyira igipfuko ku ivi aho yakomeretse.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bavura, harimo umugabo wicaye imbere yiwe hateretse mudasobwa, ari kurebamo mo imbere.

Umuntu w'umusore wicaye mu twatsi dukeya, akaba yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura ngufiya yenda gusa umukara, akaba ari kwikanda mu itako ryiwe ry'ibumoso akoresheje amaboko abiri.

Ni icyumba cyo kwa muganga, hakaba hari umusore wicaye ku gitanda kiba kiriho abarwayi, imbere yiwe hakaba hari umudamu wambaye ishati y'umweru n'ikarita mu ijosi yerekana icyo akora, akaba afite n'akantu bifashisha bapima, ari kumuzirika bande ku kirenge.

Umuganga wicaye wambaye itaburiya y'umweru mu ntoki ziwe akaba afite agakarito n'ikindi kiganza kikaba kirimo akantu karimo utunini dutatu.

Igihingwa cy'igiti gihinze mu murima, hirya y'aho hateyemo ibindi biti bitoya bifite amababi matoya, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa ane manini arimo ibintu bitandukanye, n'utundi ducupa dutoya tubiri dufite imifuniko y'icyatsi, iruhande hari igitabo gishushanyijeho, biteretse ku meza byose.

Uhagaze mu nzu inyuma yiwe hariletajeri akabati karimo ibikombe binini bifite imifuniko y'ubururu imbere y'iwe hari indobo irimo ikindi gikombe iruhande rw'iwe hateretse icupa ndetse afite n'ikindi gikombe kinini mu ntoki ze.

Amoko menshi atandukanye y'imiti agiye ari mu dukombe twinshi dutandukanye, akaba yifashishwa mu buvuzi gakondo butari ubuvuzi bwa kinyarwanda, butari imiti isanzwe batanga kwa muganga.

Akabido gatoya kari mu ibara ry'umuhondo gafite umufuniko w'umutuku, kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku. Iruhande hateretse ikirahure gisa nk'ikirimo amazi. Gakikijwe n'igihingwa cyifashishwa mu buvuzi.

Ikibabi cy'ikimera kiri mu murima bakaba bacyita umuravumba, kikaba gikoreshwa mu buvuzi gakondo, uburwayi bwo mu nda ndetse no mu kanwa.

Hakaba harimo abantu benshi bahagazemo hakaba ari imashini ihinga, hakaba ku ruhande hari imodokari iparitse harimo abagabo bambaye imyenda y'imipira y'imweruru ndetse n'ingofero.

Uducupa dutatu duteretse ku tumeza tukaba ari umweru twose, tukaba tunapfundikiye, hari amagambo adushushanyijeho, kamwe gashushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, akandi ni mu ibara ry'ubururu.

Uducupa tubiri tw'umuhondo, turiho amagambo manini, yandikishijwe ibara ry'umutuku, iruhande hakaba hari ishashi nayo iriho ibintu bimeze nk'ibara ry'igitaka, iruhande hari agakarito gafite aho bafatira, gashushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Yanditseho uducupa dutandukanye harimo agacupa karekare k'umuhondo kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku n'akandi k'umweru kari ku ruhande gashushanyijeho ibintu by'ibyatsi.

Ishami ry'igiti ririho utubabi duto duto tutari twakura, bikaba biteye hasi mu mirima aho harimo n'utundi twatsi dutoya, twifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umudamu ndetse n'umugabo bahagaze, inyuma yabo hari ibiti ndetse imbere yabo, hari amashami, udushami dutoya tw'ibiti, akaba ateze igitambaro mu mutwe yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare.

Iteretseho udukombe dutatu tw'umweru, kamwe kariho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku, akandi kariho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'ubururu, twose turapfundikiye.

Iteretseho agakombe k'itasi, karimo uburoso bubiri bw'amenyo, iruhande hari ikindi gikombe gishinzemo ibyatsi giteretse hasi ku kandi kantu.

Agacupa gatoya k'umweru kanditseho amagambo manini yandikishijwe mu ibara ryenda gusa nk'ikigina, hariho imibare y'iningano y'ibikajyamo byose.

Imeza iteretseho utuyiko turiho ibinini ndetse impande yaho hateretse udukombe abana banywesha tune, hakaba hari ikirahure kirimo indabyo ndetse no ku meza hakaba harambitse utundi tunini dutatu n'utundi tune.

Imeza iteretseho agasahani k'idongo ndetse n'agakombe k'itasi ako gakombe karimo ji ndetse n'igice cy'ironji gisatuye impande y'icyo gikombe hariho utundi dusate twinshi tw'amaronji hakaba na tangawize ku ruhande n'akandi gakombe gatoya katagaragara.

Akabati cyangwa etajeri ipanzemo uducupa twinshi turimo imiti y'ubuvuzi bwa gakondo, harimo uducupa dufite imifuniko y'imihondo ndetse n'uducupa dufite imifuniko y'umutuku.

Dutatu duteretse ku meza, kamwe gashushanyijeho amagambo ari mu nyuguti nini mu ibara ryenda gusa icyatsi, hashushanyijeho n'andi ari mu ibara ry'umweru.

Ishusho igizwe n'udufoto dutoya tw'ibimera harimo, indabo harimo ibyatsi bifite amababi mato matoya cyane, ay'umukara, acyatsi.

Akabati gasa umuhondo gateretseho udukombe tubiri tw'umweru bashyiramo imiti hejuru harikandi agacupa k'umuhondo gafite umufuniko w’umukara.

Ishyamba ridateyemo ibiti byinshi hari imbere, hari igiti kiriho amashami ameze nk'ayumye, inyuma hakaba hari n'ikindi giti kitari kinini cyane nacyo kiriho amashami matoya kandi make.

Dutatu dutoya, kamwe gafite ibara ry'umuhondo, umweru ndetse dufite twose imifuniko, hari umufuniko w'ubururu, umufuniko usa nkumuhondo n'umufuniko ujya gusa nk'ikigina.

Igihingwa gihinze mu murima, gifite utubabi dutoya kikaba gifite n'uduti tw'udushami dutoya, kikaba ari igihingwa cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Akajerekani gateretse k'umweru gafite umufuniko w'umutuku, inyuma hakaba hashushanyijeho amagambo manini ari mu ibara ry'umutuku n'utundi dutoya turi munsi, turi mu ibara ry'umukara.

Umusore wicaye muri sare cyangwa mu cyumba kwa muganga, afite umuti mu ntoki ari kwitegereza, inyuma y'iwe hari akabati karimo imiti myinshi itandukanye, imbere nawe, y'iwe hari uducupa tubiri.

Ibimera by'amoko atandukanye harimo ibyatsi, hari n'utundi turi ku ruhande tumeze nk'utubuye duto duto. munsi yatwo hari agacupa k'umweru ndetse kuruhande, hari n'akandi gacupa k'akuma kenda gusa umukara.

Icyatsi kigaragara kitari kinini cyane, bakaba bacyifashisha mu buvuzi gakondo igihe ufite uburwayi butandukanye.

Ibimera imbere kandi hakaba hari isabune, inyuma akaba ari ikiribwa cya avoka gikoreshwa mu bintu byose ndetse no mu masabune bifashisha bakaraba bisukura.

Agacupa k'umweru gateretse hasi, gashushanyijeho amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, hakaba hariho imibare yerekana ingano y'ibintu bishobora kukajyamo.

Uducupa dutandatu duteye ducuritse, akaba tubamo imiti yifashishwa kwa muganga hakaba hashushanyijeho amagambo asobanura ibirimo n'uburyo bifatwa.

Ikigo gishinzwe imiti ya gakondo mu Rwanda, ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze butandukanye, utarinze ujya mu bitaro bikoresha imiti ya kizungu.

Agakombe cyangwa se agacupa gasa umutuku inyuma hashushanyijeho amagambo manini ari mu ibara ry'umweru n'andi ari hasi kundiba ari mu ibara ry'umukara, akaba ari ikinyobwa abantu banywa.

Imeza iteretseho akantu kameze nk'agasekuru ndetse harimo n'agahini bifashisha basekura kuruhande hari uducupa tubiri dukoze dukoze mu birahure turimo imiti imeze nk'umuhondo kuruhande hakaba hari amashami ariho utubabi duto….

Umuntu uhagaze mu murima wambaye ikote ry'umukara n'umupira w'umutuku, mu ntoki ziwe afitemo ibibabi avuye guca mu murima.

Uducupa dutatu ndetse n'udukarito tubiri n'agakombe gatoya, bikaba birimo imiti y'ubuvuzi bwa gakondo bifashisha mu kuvura.

Icyatsi gifite udushami turiho utubabi duto duto cyane, kikaba giteye ahantu hari utubuye twinshi tw'umukara ndetse n'umweru.

Uducupa tureture tw'umuhondo dufite imifuniko ijya gusa umutuku inyuma akaba ari ikarito ibikwamo utuntu iruhande rwayo hari uducupa tundi dutoya tubiri dutatu tw'umweru dufite imifuniko y'umweru.

Utubido dutatu, impande hari utuntu duteretse ducuritse, utubido harimo agafite ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho n'amagambo yerekana ibirimo mo imbere.

Imineke irambitse hasi ndetse iri kumwe n'inanasi, iruhande hari indabyo z'umuhondo, imbere yaho hateretse igikombe kigeretse hejuru agakarito ndetse n'utundi dukarito dutatu dutandukanye turimo ibintu bigiye bitandukanye.

Ari inyubako irimo utu etajeri twinshi tugiye turimo imiti y'ubuvuzi bwa gakondo, hakaba hateretsemo intebe y'umweru.

Bibiri biteretse ku meza, harimo hasutsemo icyayi kirimo ibyatsi ndetse n'utundi twatsi turi ku ruhande rw'ibyo twabyo kumeza.

Hejuru uducupa dutatu turiho amagambo arimu ibara ry'umutuku andi aba ari amagambo ari mu ibara ry'umukara agacupa ko hagati kariho ibintu by'umuhondo.

Ikibabi gicitse kirambitse ahantu, hejuru yacyo hariho ibinini bifashisha mu kuvura biteretse ku meza.

Ikimera kiri mu murima, hagati akaba ari agati gatoya, gafite amababi makeya matoya atarakura ari mu ibara ry'icyatsi.

Imineke ihiye y'umuhondo n'inanasi ndetse n'indabyo ziteretse ku ruhande z'umuhondo, hakaba hari n'ibikombe bibiri bigerekeranye n'udukarito turimo ibintu.

Wambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'andi y'umutuku, akaba yafashe ururabo mu ntoki ruteye hasi.

Igihingwa cyitwa umuravumba akaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yaba ari izo mu nda ndetse no mu mihogo.

Umudamu witeze agatambaro mu mutwe ari mu murima, akaba afite afashe ku kibabi cy'igiti ndetse akaba ari kukireba yishimye.

Udukarito dutatu, kamwe kariho turi mu ibara ry'umweru. Hashushanyijeho amagambo manini, amwe ari mu ibara ryenda gusa icyatsi. Andi matoya ari mu ibara ry'umweru n'umutuku.

Umugabo uhagaze mu gashyamba, wambaye umupira w'amaboko magufinya, akaba afashe ku mashami y'igiti gitoya kimuri imbere.

Nk'imbere harimo imiti y'amoko atandukanye bifashisha mu buvuzi gakondo, hari imiti iri mu dukombe, iri mu ducupa ndetse no mu mufuka harimo utu inkono ziteretse ku kameza k'urubaho cyangwa k'igiti.

Amoko atandukanye y'ibimera by'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo, hari ibirebire ndetse n'ibyatsi bigufinya biteye mu murima

Agakarito gatoya gashushanyijeho ibintu kanditseho amagambo manini, iruhande hari akantu karimo ibinini bifashisha ku murwayi.

Isahani irambitse ku meza, hakaba hateretseho agacupa k'umweru gashushanyijeho ibintu, amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, inyuma hakaba hari udusate tubiri tw'amaronji.

Urimo ibyatsi byumye ndetse inyuma hakaba hari ibiti binini akaba hashinzemo agati gafite amababi yumye.

Ishami ry'igiti ririho utubabi twacitse, utundi tukaba ari dutoya tutaramera, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Igikombe kinini giteretse mu kabati gisa umuhondo, cyanditseho amagambo agaragaza ibintu biri mu imbere, iruhande rwacyo hari ibindi bikombe bitoya.

Agakarito gatoya, gashushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, andi ari mu mabara y'ubururu, ni agakarito kariho n'amabara menshi y'umweru, kabikwamo utuntu.

Agacupa kamwe, kanini k'umweru, kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, kabikwamo imiti, iruhande rwako, hari agakarito na ko kabikwamo isabune.

Akabati gatoya gateretsemo uducupa twinshi turimo imiti, inyuma yako hahagaze umudamu wambaye ipantaro n'undi umwe uri kugenda akora mu gakapu ke.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga, hari utubido duteretse hagati y'udukombe dutoya, akabido kamwe kakaba kari mu ibara ry'ubururu gashushanyije ibintu mu ibara ry'umuhondo.

Ibinyampeke by'amoko menshi atandukanye, hagati yabyo hateretsemo agasekuru gasa umweru, harimo n'agahini kako bakoresha basekura.

Amoko menshi atandukanye y'imiti ya kinyarwanda ikaba iteye mu mirima, hari ifite utubabi dutoya cyane, indi ikaba yezeho ibintu bimeze nk'indimu by'icyatsi.

Ibivaze birimo ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibimera, hari n'ikirimo indabyo. Ndetse n'ibindi birimo ibyatsi binini birandaranda ku mpande.

Gatoya kari mu ibara ry'ubururu bwijimye, kakaba karimo amavuta bifashisha basiga ku ruhu, kakaba kandikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru.

Ibiganza bibiri by'abantu batandukanye, kimwe giteruye ibyatsi mu ntoki, ikindi kiganza kikaba gifashe ururabo ndetse ikindi kikaba gifashe ku mababi y'ibiti bitari byakura.

Ni umurima uteyeho igihingwa gifite uturabo turi mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, hakaba hari n'utundi twatsi dutoya ariko tutari twera neza cyane.

Imiti y'amoko atandukanye, iteretse ahantu, hari uri mu gakarito w'isabune, hari n'indi iri mu ducupa tw'umweru dutoya, hari n'indi iri mu dukarito ndetse no mu ducupa tureture isa umukara.

Ikimera bifashisha mu kuvura, akenshi kikaba gikoreshwa ari uko cyashyizwe mu mazi ashyushye, rimwe na rimwe bakacyifashisha bagihekenya ari kibisi ariko wabanje kugihata, kikaba cyitwa tangawize.

Ibimera byagiye biterwa ahantu hatandukanye hatari mu mirima, ni ibiti bigiye bishinze mu bintu by'imikara bimeze n'indobo z'umukara ntago bifite amababi matoya ntabwo yari yakura bisa icyatsi.

Mu muririma urimo ibihingwa by'ibyatsi, harimo ibimeze nk'ibyumye, n'ibindi bitoshye bifite utubabi dutoya tutari twakura cyane.

Isoko rinini ririmo abantu benshi akaba ari ahagurirwa imiti, imwe ikaba iri mu bikombe indi ikaba iri mu tu amvirope dutoya, hakaba harimo imbuto zisutse hasi ku meza.

Umugabo ukuze ufite ubwanwa butari bwinshi wambaye akagofero k'abisiramu, akaba akikijwe na etajeri yuzuyemo imiti igiye iri mu dukombe ndetse n'uducupa.